Ikibaya kinini kirimo ibihingwa bitandukanye byinshi, harimo abagabo bane bambaye amajire afite ibara ry'umutuku, hariho n'ikimenyetso cy'umusaraba bo dukunda kwita kuruwaruje, bafite agatanda kariho umuntu urwaye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse na telefone, imbere yabo nanone hari umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara irimo uturongo turi mu ibara ry'umweru ndetse n'ingofero, bigaragara ko ari umuyobozi hari yari kubabwira.

Abantu benshi bahagaze harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari gaze iri mu ibara ry'umutuku, imbere yabo nanone hari umugabo ndetse n'umugore bafite igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro bigaragara ko bari ku kwerekana uburyo icyo gikoresho gikoreshwa.

Abantu benshi bicaye bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu bwererutse, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa turimo imiti, bigaragara ko hano hari gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, cyangwa se bari gutanga imiti nk'abanyabuzima.

Umugabo wicaye wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umuganga, imbere ye hari imeza iteretseho telefone, igipimo ndetse n'urupapuro, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika, ku ruhande rwe hari umuntu wicaye bigaragare ko ari kumubwira ikibazo afite.

Abagore benshi bicaye bafite abana, imbere yabo hari umugabo wambaye ijire iri mu bara ry'umukara ndetse n'umupira uri mu ibara ry'icyatsi, bigaragare ko ari guha umwana imiti hano biragaragara ko hakorewe igikorwa cyo gupima, ndetse no gusuzuma abana.

Abantu babiri umugore aricaye yambaye ishati y'umweru, yambaye na baje mu ijosi, ku ruhande harirumu umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari ameza ariho igitabo biragaragara ko uyu mugore ari umuganga.

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko hari serivisi ari gutanga, imbere ye hari imeza iriho impapuro nyinshi, telefone ndetse n'agakarito, ku ruhande rwe hicaye umugore, bigaragara ko hari ibyo ari gufashwa.

Umugabo ahagaze yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati iri mu ibara ry'umukara. Imbere ye hari akameza ndetse afite mikoro mu ntoki bigaragara ko hari ikiganiro ari gutanga.

Icyumba kirimo abantu bane harimo n'igitanda umwe aryamye ku gitanda; bigaragara ko arwaye imbere yabo hari ameza ateretseho mashini; bigaragara ko hano ari kwa muganga hatangirwa serivisi z'buvuzi.

Imeza iriho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo umukasi, serenge, agatambaro ndetse n'ibindi, hariho umuntu wambaye gamu ntoki bigaragare ko yari ari kuvura.

Umugore wicaye yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse na ga mu ntoki, imbere ye hari ameza ariho ibitabo, uducupa, inshinge ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga, imbere ye nanone hahagaze umugore wamuhaye ukuboko bigaragara ko ari kumusuzuma.

Ikibuga kirimo abantu benshi, bamwe bunamye, harimo uwambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu bwererutse, afite igipimo, ari gupima umwana, bigaragare ko hano habereye igikorwa cyo gupima abana.

Abagore benshi bicaye bafite abana. Bafite ibikombe mu ntoki, bigaragare ko bari guha abana babo igikoma, cyangwa se hano, bigaragara ko habereye igikorwa cy'igikoni, kugira ngo bite ku bana babo.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse na mashine, imbere yabo hari umuntu uhagaze, bigaragare ko hano hari igikorwa cyabahurije aha.

Abantu benshi bambaye imipira ya oranje, barahagaze, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ariho abantu ndetse n'amagambo yanditseho bigaragara ko hano hakorera urubyiruko.

Inzu nini ifite imiryango myinshi minini ifite inzugi ziri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari amapave, hari icyapa cyanditseho farumasi bigaragara ko ari ahantu hatangirwa imiti cyangwa se ariho abarwayi bagana bakajya kwivuza.

Inzu ndende cyane imwe dukunda kwita etaje ikikijwe y'ibyuma, imbere y'aho hari icyapa kigaragaza ko hano hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, batanga imiti ndetse banasuzuma abarwayi.

Inzu nini cyane bigaragare ko ari etaje imbere yaho hari icyapa cyanditseho amagambo menshi atandukanye, hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi handitseho farumasi bigaragara ko hano hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inzu nini irimo akabati gafungishijwe ibirahure harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibikoresho ifashisha turi gusukura bigaragara ko hano hacururizwa imiti.

Iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa byinshi muri etajeri, harimo amacupa y'ubwoko butandukanye bigaragare ko ari ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo n'umusirikare, imbere yabo hateretse ameza ariho uducupa turimo amazi, ibitabo ndetse n'ibindi. Hari umugore uhagaze ufite mikoro bigaragara ko ari kuvuga.

Abantu benshi, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bamwe baricaye abandi barahagaze inyuma yabo, ku ruhande hari umugabo wambaye umupira wa orange, afite n'igitabo mu ntoki, bigaragara ko hari igikorwa cyabateranyirije hano.

Abana benshi b'urubyiruko barahagaze bafite icyapa cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, imbere yabo hahagaze abandi bana babiri bigaragara ko hano aba bana hari ibyo bari kwamamaza.

Abantu benshi bahagaze, harimo abambaye amajiri ari mu ibara ry'umukara ndetse handitseho amagambo, bigaragare ko hano, hari igikorwa cyabahurije hamwe, kijyanye no kwita ku buzima.

Umurwayi uryamye ku gitanda yiyoroshe ishuka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere ye hahagaze umuganga yambaye ishati yubururu afite agakoresho mu matwi bifashisha bapima umutima ari kumusuzuma.